Muri resitobare igaragara nkaho abantu bari gufata icyo kunywa cyangwa se icyo kurya, gusa kandi nanone abandi bari kwakirwa, ariko nanone hakagaragaramo izindi meza zidafite aho zicarwa, n'intebe zidafite abantu bazicayemo.

ahantu ku muhanda hari rondereza cyangwa se imbaburayacana rumwe igezweho ndetse hakaba hari n'imashini idoda, ndetse hakaba hari n'izindi meza zishobora kwifashishwa mu gushyiraho ibintu cyangwa se ibicuruzwa.

Umuhanda ugezweho wa kaburimbo umeze neza cyane wubatswe vuba bisa nkaho wubatswe vuba ariko nanone nka bagenzi benshi bari mu muhanda harimo umunyonzi umwe uri ku igare ndetse n'umunyamaguru ugendera mu kayira k'abanyamaguru.